Umuhungu w'umunyeshuri werekana ibyiza by'isuku twifashisha amazi, hari indobo y'umweru ifite n'irindi bara ry'ubururu, hakaba n'intebe akaba asa nk'uwunamye yifotoza.

Kwita ku bana bafite ibibazo by'imirire mibi, ndetse no kuba bari mu murongo utukura, bitewe n'indwara zituruka ku mwanda, cyangwa se ubukene.

Abantu bagiye batandukanye ku kigo nderabuzima harimo abagore, abana bambaye udupfukamunwa, bafite inkweto zigiye zitandukanye bategereje ubuvuzi.

Umukobwa w'umunyeshuri uri guseka ibitwenge byamwishe, ari gukarabira kuri kandagirukarabe ifite ibase ndetse n'indobo ifite ibara ryicyatsi, inyuma ye hari inzu zamatafari.

Inama ivuga ku cyorezo aho yitabiriwe n'ibihugu bitandukanye, harimo abazungu, abirabura ndetse n'intebe n'ameza imbere.

Urugo rurimo agatanda kariho ibyombo bigizwe n'amasahani, ibikombe ndetse n'ibindi. Gafasha abaho kugira isuku ihagije. Hakaba insina, hakaba imiyenzi.

Urubyiruko ruteraniye hamwe, rugiye rufite imyaka itandukanye, bashaka gutera ingemwe z'ibihingwa byinshi, bamwe bagiye basokoza uruhanika.

Abanyeshuri bari ku kigega bambaye impuzankano amajipo, amakabutura, ibikombe bifite amabara y'ubururu, icyatsi. Hakaba n'uwambaye igitambaro mu mutwe.

Ibitaro byagenewe abafite ubumuga bwo mu mutwe, ndetse n'ibibazo by'imyakura, bidakuyeho ko n'undi yahagera afite uko yiyumva akaba yafashwa.

Umugabo wirabura wahimbajwe n'inzoga nk'urwagwa, uri mu ivumbi inyuma ye hari igare, wambaye imyenda idafite isuku na busa.

Abantu umunani bafatiye urupapuro hamwe, undi ku ruhande, inyuma imodoka, inyuma shitingi, hasi ubutaka, inkweto zitandukanye zitangaje.

Abagabo, abagore, imisatsi, abogoshe, amabara atandukanye umutuku, umuhondo n'umusirikare umwe.

Umugore ubabaye wihebye udafite icyizere cyo kubaho, wicaye ku gatebe imbere ye hari umusambi, inyuma ye hari inzu yenda kumugwaho.

Umusore uri kureba umuganga w'amenyo, ubanza agiye kumubaza ibya muzita ndetse n'ubugororangingo bwayo, ari kumureba adahumbya.

Umusaza ufite imvi, wambaye imyenda irimo umupira w'imbeho afatanya ikiganza n'umwuzukuru we amurebana ubwuzu, bari mu nzu ifite amadirishya afite uburebure buhagije.

Icyapa cyerekana umuntu wicaye uri guterwa urukingo rw'icyorezo, aho umuganga yambaye ibara ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa.

Ibitaro bivura amaso bikikijwe n'inzugi, ibirahure ndetse n'ikirere gifite ibara ry'ubururu n'umweru. Hasi hakaba ubutaka busanzwe.

Umusore ufite ibigango byatewe no guterura agakora ibyo tuzi nka siporo, wambaye agapira k'umukara, ipantaro y'ikigina.

Umugabo wambaye ipantaro ya kaki, ukikijwe n'abagabo babiri b'abaganga ndetse n'inzobere ebyiri, afite icyuma guhera ku ivi kumanuka ku murundi kugeza ku kirenge.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororangingo wambaye imyenda ndetse n'inkweto bifite ibara ry'icyatsi, ufite umusatsi w'umukara n'ikigina,

Umwari ubyutse mu rukerera, yambaye imyenda y'umukara, ari kwinanura, agiye mu myitozo ngororamubiri, yicaye ku gitanda cy'ibara ry'ivu.

Imiti ya gakondo igiye igizwe n'ibintu bitandukanye, harimo igikakarubamba ndetse n'ibindi bivura za rubagipande, imitsi, imyakura.

Umugabo wambaye ishati, umukandara, ipantaro yatebeje, ari kureba umugore wambaye igitambaro cy'umweru, imbere yabo hari inzoga z'ubwoko butandukanye, hakaba n'intebe z'ubururu.

Akabati karimo uducupa tw'imiti ya gakondo igenda ivura ibintu bitandukanye harimo umugongo, umutwe, rubagimpande, ifumbi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Guhakura ni ugushaka ubuki mu muzinga, igihwagari, imiti ya gakondo ivura, mu nda ikavura inkorora,